Mu isantere aho umuntu afite ikibazo cyo kuba yaravunitse ahambirijwe bande y'umweru, ari guhabwa ubutabazi bw'ibanze n'abandi baturage benshi bahagaze, bamutabarije bafite umutima wa kimuntu.

Icyumba gitoya cyo kwa muganga aho umuganga afite ibikoresho kabuhariwe byo mu buvuzi arimo yita ku murwayi ubona ko arembye cyane aho afite ibyuma bimufasha guhumeka yambaye ga afite n'ikaramu ubona ko arimo yita ku murwayi urembye cyane bikomeye.

Ni icyumba kinini cyane gitangirwamo serivisi z'ubuzima cyane cyane abafite ubumuga n'abakeneye insimburangingo n'inyunganirangingo, bahererwamo serivisi.

Iyi ni imbwirwaruhame iri guhabwa abasore n'inkumi bicaye hamwe mu nyubako babwirwa uko bagomba kwitwara mu gihe bari gukora ubutabazi bw'ibanze, Kuruwa ruje.

Mu cyumba kinini kirimo imbaga y'abantu, aho umuganga ari kumwe n'umukozi ukorera umuryango utabara imbabare kuruwaruje.

Mu cyumba kinini kirimo abakorerabushake ba croix rouge batanga ubutabazi bw'ibanze bw'ubuvuzi .Bari guhabwa amabwiriza n'umuyobozi wabo ushinzwe ubuzima, abashishikariza gutabara babishyizeho umutima.

Aba ni abasore n'inkumi bari mu gikorwa cy'ubutabazi bw'ibanze kuruwa ruje aho bari gutabara umuntu urembye.

Abantu bahagaze mu gasambu bambaye amataburiya y'umweru abandi bambaye imyenda y'ubururu, amatisheti n'amakoti y'umukara, bari ku nyubako bafite impamyabushobozi bahawe.

Iyi ni imbaga y'abaturage benshi bari ku bitaro bya nyagatare ,aho bifatanyije n'abanyarwanda kwibuka jenoside yakorewe abatutsi igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane, ku nshuro ya mirongo itatu twibuka jenoside yakorewe abatutsi.

Umurwayi wicaye ku ntebe afite telefone yambaye isaha ku kaboko k'ibumoso, n'agapfukamunwa k'umukara n'amadarubindi. Umuganga wambaye ipantaro y'umukara n'umupira utukura n'agapfukamunwa k'umweru ari kumutera urushinge.

Iyi nyubako yahuriweho n'imbaga y'abantu, bari gukina harimo abagabo babiri bambaye amatabuririya y'umweru.

Ni kutaro, ahari inyubako nziza cyane, iriho amarangi yiganjemo ay'umuhondo, hasi hashashwe amapave, haparitse n'imodoka yo mu bwoko bwa ambirasi, itwara abarwayi barembye, ibajyana ku bitaro.

Umubyeyi wazanye umwana kwa muganga, umuganga wambaye imyenda y'akazi itaburiye y'umweru n'ipantaro y'umweru, ari kumurebera muri kompiyuta, imyirondoro ye niba yaratanze na mituweri n'abanyamuryango be bose.

Ni icyumba kimwo abaganga babiri n'umurwayimwe ufite agakarine mu ntoki, muganga afite ifishi n'ikaramu ari kumwereka ibyavuye mu bipimo bamufashe.

Ku bitaro by'akarere ka Nyagatare, haparitse imodoka y'ambirasi hari na siterine iri ku nyubako ifata amazi.

Ni ku Rwibutso ahahuriye imbaga y'abaturage, bafite bandelore yerekana ko turi kwibuka ku nshuro ya mirongongwi itatu jenoside yakorewe abatutsi muri mata igihumbi kimwe maganacyenda mirongo cyeyenda na kane.

Ni mu cyumba cyo kwa muganga kirimo ababyeyi batatu baryamye ku gitanda n'umwe wicaye ku gitanda, hamanitse inzitiramibu kuri buri gitanda.

Ni mbaga y'abaturage benshi bari mu cyumba, cyagenewe gutangirwamo serivisi z'ubuzima, aho bicaye ku ntebe, abiganjemo igitsina gabo n'igitsina gore n'umuyobozi uhagaze, uri kubabwira uburyo bwo kuboneza urubyaro.

Aha ni mu cyumba kwa muganga, kirimo inzitiramibu, umubyeyi ufite ibikapu bibiri n'imyenda, asezerewe kwa muganga, atashye mu rugo.

Ababyeyi babiri bicaye ku ntebe yiganjemo amabara y'ubururu n'umukara umwe akenyeye igitenge kirimo amabara y'umuhondo bafite ibitabo bakikiye n'akana gafite terefone kambaye agashati gatukura umubyeyi umwe yambaye igitambaro cyamabara y'umweru.

Ni itsinda ry'abaganga b'inzobere, bambaye amatabuririya y'umweru, harimo abakobwa n'abasore, bafite ibipimo bafashe bari kureba mu bushakashatsi bakoze, niba ibyo bari bagiye kuvumbura byakunze.

Icyumba kirimo umuganga wicaye ku intebe n'itaburiya y'umweru n'ameza ateretseho ibikoresho kabuhariwe bisuzuma indwara, afite igikoresho ari kureberamo n'jisho kizwi nka mikorosikope kireba indwara ntoya cyane zizwi nka mikorobe.

Umuganga wambaye ga z'umweru mu ntoki afite igikoresho kifashishwa mu gupima niba umuntu afite virusi itera sida n'impapuro ari bwandikeho ibyavuye mu bipimo.

Umuganga uri mu cyumba afite ibikoresho bitandukanye aho ari kurebera mu cyuma k'ikoranabuhanga kabuhariwe mu gusuzuma indwara zitaboneshwa amaso nka mikorobe n'amavirusi kitwa mikorosikope.

Umuganga wicaye uri kurebera muri mikorosikope, asuzuma indwara iba yafashwe mu bipimo byatanzwe n'umurwayi. Hari impapuro yandikamo indwara amaze kubona akoresheje iki cyuma cya mikorosikope.

Ni icyuma kirimo abaganga babiri b'inzobere mu kureba uburwayi butagaragara, harimo nka mikorobe n'amavirusi, barebera mu byuma kabuhariwe, bizwi nka mikorosikope, ku bipimo biba byafashwe ku barwayi.

Icyumba kirimo umuganga wambaye itaburiya y'ubururu na ga z'ubururu n'ameza ariho ibikoresho byo kwa muganga afite n'urushinge mu ntoki n'umukasi urambitse ku meza.

Ifishi irambitse ku meza n'umuntu wambaye ga z'intoki. N'igipimo yafatiyemo ibipimo bisuzuma ubwandu bwa virusi itera SIDA.

Umuganga wicaye ku ntebe yambaye, agapfukamunwa n'itaburiya y'umweru, afite icyuma kabuhariwe mu kureba indwara zitandukanye zitagaragarira amaso, nka mikorobe n'amavirusi ku bipimo yafashe umurwayi.

Umuganga wambaye ingofero y'icyatsi kibisi, itaburiya y'icyatsi kibisi na ga mu ntoki, ari mu cyumba kinini gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, ku meza hari laputopu, amakayi n'amakaramu ndetse n'icyuma kizwi nka mikorosikope.

Ni icyumba kirimo ibikoresho bitandukanye nk'ameza n'intebe yicayeho umuganga n'umubyeyi wicaye ku ntebe akikiye umwana we, ku meza hari raputopu n'umuganga ari kubaza uko umurwayi ameze, abyandika muri mudasobwa.

Ni ku kigo nderabuzima aho ababyeyi baje kwivuza bari ku cyumba bareberamo nimba umuntu yaratanze ubwisungane mu kwivuza kugira ngo ahabwe ubuvuzi.

Ni mu cyumba kinini kiririmo ibikoresho bitandukanye byo kwa muganga, aho ababyeyi babyarira, hari umubyeyi wicaye ku ntebe n'umwana yabyaye aryamye ku gitanda.

Aba ni abana ubona ko bishimanye n'abayobozi, hari n'umunyamakuru ufite kamera urimo gukurikirana uko ibi bikorwa biri kugenda, abayobozi bari guha abana amata mu nkongoro. kandi bambaye imyenda itukura n'amasaha, ndabona hari n'uwambaye amadarubindi.

Imbaga y'abaturage benshi biganjemo ab'igitsina gore igitsina gabo, ndetse n'abana, aho umunyabuzima afite mikoro ari kubagezaho imbwirwaruhame ko umwana agomba kwitabwaho mu buzima bwe bwa buri munsi.

Umugabo uri guhoreza igikoma abana cyujuje intungamubiri zose zisabwa k'umwana, yafata ngo agire ubuzima bwiza n'imikurire muri rusange.

Muri gahunda yo kugira ubuzima buzira umuze, ni gahunda inzego z'umutekano n'abasirikare bagizemo uruhare, bari kumwe n'abashinzwe iby'ubuzima mu kigo gishinzwe ubuzima mu Rwanda.

Ni icyumba kinini kirimo ibikoresho bitandukanye byo kwa muganga aho ababyeyi babyarira, baryamye ari babiri ku gitanda undi aricaye, hari na supanete hejuru kuri buri gitanda.

Ni icyumba gihagazemo abantu benshi n'umusore wicaye uri guha abana b'inshuke amata, bari kunywa bicaye ku mukeka.

Umukobwa uri kuri kandagira ukarabe, ari gukarabya abana bo mu irerero kugira ngo bahabwe amafunguro bafatira ku rugo mbonezamikurire rw'abana bato.

Umugabo n'umugore we bicaye ku ntebe n'umunyabuzima baje kwipimisha inda, hari n'intebe ya sheze irambitseho impapuro nyinshi.

Ni umubyeyi wicaye ku gitanda kiriho amashuka y'ubururu, yambaye umwenda w'ubururu, ateruye n'umwana mu cyumba cyahariwe ababyeyi, arimo araseka cyane, arishimye, yishimiye akana ke.

Ni mu cyumba kinini kirimo ibitanda by'ibyuma n'abantu baryamye b'ababyeyi aho babyarira hari n'inzitiramibu zimanitse hejuru.

Abanyeshuri basa nk'abanyeshuri biga ibijyanye n'ubuzima barimo bifotoza berekana icyangombwa cy'ikigo gishinzwe ubuzima mu Rwanda.

Ni abantu benshi bateraniye hamwe bari guhabwa ikiganiro n'umuntu ufite mikoro wambaye ishati y'umweru.

Muri gahunda y'ikigo gishinzwe ubuzima mu Rwanda kubufatanye n'imbuto foundation. Bari gushishikariza buri munyarwanda wese kwita ku buzima bwo mu mutwe n'ufite iyo myitwarire kuko byateza ikibazo cy'ihungabana.

Abantu benshi bahagaze ahantu hamwe bambaye imyenda y'amabara y'umweru no hasi bambaye amajipo atukura n'amapantaro y'umukara n'ibitenge by'icyatsi kibisi, bari imbere y'inyubako n'indabo z'umuhondo.

Icyumba kinini cyahuriyemo abafite bahuriye n'ubuzima ku munsi isi yose yizihiza umunsi w'ubuzima mu isi hose, bigaragara ko ikiganiro cyatanzwe na RBC ishinzwe ubuzima mu rwanda.

Ni udukarito duteretse ku meza turimo amabara yiganjemo y'umuhondo, umweru n'umukara, harimo imiti izwi nka kowaritemu yifashishwa mu kuvura indwara ya malariya ku muntu wayigaragaje.

Ni farumasi nini cyane irimo imiti ihabwa umurwayi yandikiwe na muganga, igiye iteretse uko imiti yitwa ntabwo ivangavanze buri miti yihariye iteretse ukwayo.

Ni muri farumasi ahari imiti itandukanye iri mu dukarito, indi iri mu ducupa, aho ihabwa abarwayi hagendewe ku ndwara basanganywe n'ibyiciro barimo abato n'abakuru.

Imiti itangwa muri foromasi zigiye zitandukanye, ibikombe byiganjemo amabara y'umweru n'ibikarito birimo imiti baha abantu iyo bagannye kuri foromasi cyangwa kwa muganga.

Ni icyumba kibamo imiti itandukanye ihabwa umurwayi igihe avuye kuzana ibisubizo yahawe na muganga, harimo imiti iri mu macupa, ibikarito n'indi igiye inyuranye.

Ni farumasi irimo imiti igiye itandukanye yaba iri mu bikarito byiganje mu mabara y'umweru, atukura, ubururu n'icyatsi kibisi n'ibikombe birimo imiti baha umurwayi ubagannye.

Ni umuhanda wa kaburimbo urimo ubusitani bwiza. Hafi yawo nta kinyabiziga kiri kuwunyuramo uratuje, nta n'umunyamaguru uri kuwunyuramo.

Ni icyumba kirimo ibikoresho byifashishwa kwa muganga, harimo ga, amapamba, n'udukoresho tundi twifashishwa n'udupipiki turimo imiti ikoreshwa mu koza ibisebe.

Ni farumasi irimo imiti ihabwa umurwayi yandikiwe na muganga. Ni imiti iri mu ducupa tw'umukara ipfundikishije imipfundikizo itukura, aho umurwayi ayihabwa uko yayigenewe na muganga.

umukozi uhagaze mu cyumba cya farumasi acururizamo imiti, harimo imiti itandukanye iri mu dukarito indi iri mu ducupa, aha umurwayi uje umugana yaba yayandikiwe na muganga cyangwa amusobanuriye uko amererewe.

Ni ibikombe biterekeranyije byinshi birimo imiti ihabwa amatungo magufi n'amaremare iyafasha kumererwa neza mu mikurire.

Ni amacupa menshi afite imipfundikizo y'umutuku, icyatsi kibisi n'udukarito turimo imiti abantu banywa iyo barwaye. Ni muri farumasi.

Umuganga uri mu cyumba cyabugenewe, yambaye itaburiya y'umweru n'agapfukamunwa k'ubururu, ahari ibikoresho byo kwa muganga byabugenewe byifashishwa mu kuvura abarwayi.

Inyubako ebyiri zitandukanye zikora ikintu kimwe, ni farumasi zitanga imiti aho umurwayi iyo yayigenewe na muganga aza kuyihafata, imwe irafunguye indi ntifunguye.

Inzu icururizwamo imiti y'uwitwa siliveri isize amarangi y'umweru n'umuhondo.

Farumasi nziza cyane, ni inyubako iriho icyapa, cyerekana ko bacuruza imiti, aho umurwayi yayigenewe na muganga cyangwa yumva yajya kuyifata bitewe n'uko arwaye, yabagana.

Ni farumasi nini cyane, irimo imiti abarwayi bahabwa bandikiwe na muganga, yaba ari imiti y'abana, abakuru n'abasaza irimo, iri mu ducupa indi iri mu dukarito, uyihabwa bitewe n'indwara urwaye.

Ni amahema yicayemo abantu benshi, hari abakora mu rwego rw'ubuzima n'itangazamakuru. Inzu za konoshi ziganjemo amabara y'umuhondo n'imodoka iparitse, iruhande rw'abaturage. Bari mu gikorwa cyo kubwira abantu gukoresha neza agakingirizo mu bukangurambaga.

Ni umupolisi wambaye impuzankano z'akazi, ari kumwe n'abaturage benshi, imodoka zahagaze, ni muri gahunda yo kwizihiza umunsi mpuzamahanga wo kurwanya ibiyobyabwenge.

Ni urubyiruko rwahuriye hamwe n'umuyobozi uri kurugira inama ku bijyanye n'ubuzima, aho abashishikariza kwifata cyangwa byakwanga bagakoresha agakingirizo birinda indwara ziterwa n'imibonano mpuzabitsina idakingiye.

Uyu ni umuyobozi mu kigo gishinzwe ubuzima ari gutanga imbwirwaruhame muri gahunda yo kubwira abantu kwipimisha virusi itera sida bakamenya uko bahagaze, afite mikoro ahagaze ku meza ari gutanga ikiganiro muri iyi gahunda.

Ni mu muhanda urimo imbaga y'abantu biganjemo ab'inzego z'umutekano nk'abadaso, abapolisi n'abasirikare mu kwezi kwahariwe ibikorwa bya polisi birimo nka gahunda ya Gerayo Amahoro bahora bashishikariza buri munyarwanda.

Inyubako zitangirwamo serivisi zitandukanye zubu ubuzima, ahahuriye imbaga y'abantu, baje kugezwaho ubuvuzi bw'ibanze, aho baza kwegera abaturage bakaba ariho babavurira, hari n'inzego z'umutekano nka polisi.

Aba ni abakobwa babiri bafite icyapa cyanditseho ko umuntu agomba gukoresha agakingirizo neza, muri gahunda ya Gakoreshe neza, hirindwa indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina idakingiye.

Abantu babiri bafite icyapa bashishikariza abantu ko bagomba kwipimisha virusi itera SIDA ngo bamenye uko bahagaze, nibamenya uko bahagaze usanga yaranduye afatate imiti, utarandura akomeze kwifata.

Abantu babiri bicaye ku ntebe n'akana gato gahagaze igikapu, n'ipombo irimwo umuti wica imibu itera malariya n'utuzu tubiri twa nyakatsi.

Isantere ihagazeho imbaga y'abantu benshi haje kubera ubukangurambaga bwo gukoresha neza agakingirizo hari n'inzu za konoshi ziganjemo amabara y'umweru n'umuhondo.

Ni igisambu kinini cyane cyegereye ikigo cy'amashuri, harimo ibyatsi binshi bigiye bitandukanye na pasparume, ibitovu byarabije n'ibindi byatsi bitandukanye birishwa n'ihene.

Icyumba kirimo umuntu uryamye ku gitanda yiyoroshe amashuka y'umweru n'umugabo uhagaze ari kumwunga yavunitse akoresheje imiti gakondo.

Imifuka myinshi iteretsemo ibicuruzwa bigiye bitandukanye ubona ko iri mu isoko irimo ibicuruzwa umuntu wese akenera iyo agiye ku isoko biragaragara ko harimo injanga, harimo inyama, harimo ibirayi n'ibindi bicuruzwa byishi.

Ni umugabo wambaye umupira w'umweru, ari mu ishyamba ririmo ibimera bigiye bitandukanye, ari gushaka imiti yifashishwa mu kuvura hakoreshejwe imiti ikomoka ku bimera.

Ibikoresho byo kwa muganga birimo imikasi, birambitse ku meza hariho n'isaha ndetse n'urushinge n'ikaramu.

Ni mu cyumba kiri gutangirwamo serivisi z'ubuvuzi, aho abaganga begereye abaturage. Umuganga yashyize ibipimo ku mukecuru ari kureba umuvuduko we w'amaraso.

Ababyeyi benshi bateruye impinja bari mu cyumba aho abaganga bari kureba imikurire y'abana uko ihagaze, niba bari kubona indyo yuzuye.

Umuyobozi wambaye umwenda w'umweru, mu cyumba kinini kirimo televiziyo, ari kwigisha abaturage uko bazajya baboneza urubyaro.

Iyi nzu itangirwamo serivisi z'ubuzima aho hagaze umugabo wambaye itaburiya y'ubururu n'agapfukamunwa, ategereje abarwayi ngo baze abafashe.

Ni icyumba kirimo abaturage bicaye ku ntebe, hahagaze abayobozi babiri n'umwe wicaye uri kwandika ibyavuye mu nama, bari kwiga ku kibazo cy'uko bajya bategura indyo yuzuye.

NI isatere ihagazeho abantu benshi bari kumanika icyapa cy'ubuzima hariho inyubako yuzuye y'ubuzima bambaye imyenda y'umukara n'umweru.

Ni inyubako itangirwamo serivisi z'ubuzima yegerejwe abaturage, aho batanga serivisi zijyanye n'umugore utwite, abana bafite imirire mibi n'izindi nyinshi zitandukanye.

Icyumba kinini kirimo umuganga, imiti iri mukarito n'ibikombe n'umurwayi ufite agapapuro mu ntoki. Muganga ari kumwandikira imiti yamugeneye.

Ni imbaga y'abaturage benshi biganjemo ab'igitsina gore n'igitsina gabo muri rusange. Bamwe muri bo ni abanyabuzima bambaye amataburiya y'ubururu. Aho bari muri gahunda z'ubuzima zitandukanye.

Ni imodoka zo mu bwoko bwa ambulace zitwara abarwayi, zahawe Croix rouge nk'umuryango utabara imbabare ku bufatanye n'igihugu cya Quatar n'u rwanda.

Icyumba umuganga yakiriramo abarwayi. Ari gusuzuma umwana uteruwe na mama we wicaye ku ntebe. Ku meza hari igitabo n'ikaramu yandikisha uko yasanze umurwayi amerewe.

Abantu benshi b'urujya n'uruza higanjemo ab'igitsina gabo bambaye imyenda y'umweru n'umukara, bari kumanika igishushanyo mbonera cy'ahazubakwa ivuriro rizegerezwa abaturage.